Mu rwego rwo kugira ngo umusaruro ukomoka ku bihingwa wiyongere ni ngombwa ko ibi bihingwa bihora byitabwaho, muri uku kwitabwaho harimo nko gushyirwaho ifumbire ndetse no guterwa umuti urwanya udukoko dushobora kuba twakwibasira ibyo bihingwa.

Kugira ngo ibihingwa bigire umusaruro mwiza ni ngombwa ko byitabwaho muri uko kwitabwaho harimo nko gushyirwaho ifumbire yaba mvaruganda cyangwa se n'indi ariyo yose ndetse kandi hakabamo no guterwa umuti mu rwego rwo kugira ngo hakumirwe ibyonnyi.

Umugore wambaye imyambaro ndetse n'ingofero imurinda ari mu murima uhinzemo ibihingwa, uyu mugore akaba ari gutera umuti ibi bihingwa, ibi ni byiza cyane kuko byica udukoko dutuma ibihingwa bigira umusaruro muke.

Ahantu hitegeye cyane imisozi miremire hakaba harimo icyuzi kinini cyane, harimo kandi umugabo mukuru aho ari kuroba amafi hifashishijwe ubwato aya mafi akaba ajyanwa ku masoko andi akaribwa mu ngo.

Ahantu mu gikoresho cyabugenewe harimo amafi yamaze kurobwa mu biyaga ndetse no mu nzuzi, aya mafi akaba ajyanwa ku masoko andi akaribwa mu ngo, ibiyakomokaho bikaba bituma umubiri ukomera ndetse ukabasha guhangana n'indwara zitandukanye.

Ahantu hitegeye umusozi uriho ibiti by'ubwoko butandukanye, hari ikibaya ndetse muri icyo kibaya hakaba hari icyuzi, icyo cyuzi cyashyizwemo imyayi y'amafi ndetse na yo akaba azakura maze agatanga umusaruro.

Ahantu hari ibiti ndetse n'ubwatsi butoshye hari ibyuzi bibiri, ibyo byuzi bikaba byororerwamo amafi maze yamara gukura akajyanwa ku masoko, amwe akagurishwa andi akaribwa mu ngo.

Mu cyumba cyagenewe gukorerwamo ubushakashatsi bw'ibiba mu mazi, harimo umukobwa ukiri muto wambaye imyambaro yifashishwa mu gukora ubushakashatsi, uyu akaba ari gukora ubushakashatsi ku nyamaswa yo mu mazi ariyo yitwa ifi.

Itsinda rigizwe n'abagabo barindwi bari ahantu mu gishanga gihinzemo umuceri, aba bagabo bakaba bari gukora ibikorwa by'uburobyi, amafi avuye muri ubwo burobyi akaba ajyanwa mu masoko ndetse amwe n'amwe akaribwa mu ngo.

Amafi yamaze kurobwa mu kiyaga akaba yashyizwe ahantu aho agiye gutunganyirizwa, aya mafi akaba ajyanwa ku isoko ndetse akaribwa no mu ngo, ibikomoka kuri aya mafi bikaba bituma umubiri ugira intungamubiri zitandukanye.

Ababyeyi babiri b'abagore bari ahantu hitegeye umusozi, aba bakaba bari mu murima uhingwamo icyayi ndetse bakaba bari kugisarura bashyira mu dukoresho bahetse ku mugongo, iki cyayi kikaba kijyanwa mu nganda maze kigatunganywa.

Umubyeyi wambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara ndetse n'ubururu ari mu murima w'icyayi, akaba ari kugisarura maze nyuma yuko agisaruye icyo cyayi kikaba kijyanwa mu ruganda kigatunganywa maze kikoherezwa mu masoko yaba ayo mu Rwanda ndetse no mu mahanga.

Umurima munini ubereye ijisho uhinzemo icyayi, iki cyayi kikaba gisoromwa iyo gikuze maze kikajyanwa mu nganda kigatunganywa kikoherezwa ku masoko atandukanye yo mu Gihugu cyangwa se n'i mahanga.

UImuceri ni igihingwa cyiza cyane ndetse gitanga umusaruro, iki gihingwa kikaba gihingwa ahantufite amazi menshi, ni yo mpamvu inshuro nyinshi iki gihingwa gihingirwa mu bishanga, ariko kandi gikene kwitabwaho cyane kuko gikenera amazi menshi.

Abantu batatu bagizwe n'abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bari mu murima munini w'icyayi, bakaba bari gusarura iki cyayi bashyira mu dukoresho bitwaje bahetse ku migongo. Iki cyayi kikaba kijyanwa mu nganda kigatunganywa maze kikoherezwa ku masoko.

Umubyeyi w'umugore ari mu murima w'ikawa, aho ari kuzisarura. Izi kawa zikaba zijyanwa mu ruganda maze zigatunganywa, zikajyanwa ku isoko ryaba iryo mu gihugu ndetse no mu mahanga.

Ikawa yamaze gutunganywa ikaba yashyizwe ahantu habugenewe. Nanone kandi iri kumwe n'Idarapo ry'Igihugu kerekana yuko ari iy'u Rwanda. Iyi kawa ikaba ijyanwa ku masoko hirya no hino mu gihugu cyangwa se no hanze y'Igihugu.

Imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite ikigega gifata amazi y'imvura, hari abagore bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, aba bakaba bari kujonjora ikawa mbere y'uko itunganywa.

Abagore bambaye imyambaro isa ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru bateraniye ahantu hamwe mu murima w'ikawa, izo kawa zikaba zitabwaho maze zikajyanwa mu ruganda zigatunganywa zikoherezwa mu mahanga ndetse no ku isoko ry'u Rwanda.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa biteza imbere uwagihinze ndetse n'Igihugu muri rusange. Zikaba zikunda kwera cyane cyane ahantu mu misozi, maze zamara kwera zikajyanwa mu nganda, zigatunganywa maze zigashyirwa ku isoko.

Imiti ifunzwe neza cyane mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku mu buryo buyibuza guhura n'ubushyuhe bwinshi cyangwa ubukonje bwinshi bwatuma yangirika, iyi miti ikaba ivura indwara zitandukanye zirimo imitsi ndetse n'izindi.

Imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo yo mu rugo harimo nk'intama ndetse n'inka ifunze neza mu mashashi afite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, iyi miti ikaba ibikwa ahantu maze ikazagurishwa ku baza kuyigura bafite amatungo arwaye.

Itsinda ry'abantu bagizwe n'abagabo bambaye imyambaro itandukanye, ndetse umwe muri bo wambaye imyambaro y'igipolisi k'igihugu, aba bombi bakaba bari gukora umurimo w'ubuhinzi hifashishijwe ibikoresho birimo nk'amasuka, bikoreshwa mu buhinzi.

Umubyeyi w'umugore ukenyeye igitenge ndetse wambaye n'imyambaro ifite amabara y'ubururu bweruye ari kwita ku bihingwa, ibyo bihingwa nyuma y'uko abyitayeho birakura bikamuha umusaruro akawujyana ku isoko maze na we akabasha kwiteza imbere.

Mu gisambu kirimo ibyatsi byumye ndetse n'ibigitoshye harimo abagabo babiri bambaye imyambaro ifite amabara arimo umutuku, umweru ndetse n'umukara, aba bagabo bombi bakaba bavuye guhinga ndetse bakaba bafite ibikoresho byifashishwa mu guhinga bizwi nk'amasuka.

Mu murima wezemo ibigori harimo umubyeyi w'umugore ndetse akaba ari gusarura ibyo bigori, iyo bimaze kwera bikaba bijyanwa mu bwanikiro, nyuma bigahungurwa maze bigakorwamo ifu, na yo yifashishwa mu gukora ibyo kurya bitandukanye.

Abagabo babiri ndetse n'abagore babiri bari mu murima wezemo ibigori, aba bakaba bari gusarura muri uwo murima, ibi bigori iyo byeze bikaba bijyanwa mu nganda maze bigatunganywamo ifu na yo yifashishwa mu gukora ibyo kurya bitandukanye.

Itsinda rigari ry'abantu biganjemo urubyiruko, bambaye imyambaro isa, ifite ibara ry'icyatsi kibisi, bari gukora ubuhinzi, aho bari gutera ibiti bifashishije ibikoresho byifashishwa mu buhinzi, birimo amasuka.

Ibigori ni bimwe mu bihingwa biba bigomba kwitabwaho cyane, impamvu y'ibi n'uko bikunda kwibasirwa n'udukoko, urugero twavugamo nka nkongwa, niyo mpamvu kandi ari byiza ko bihora biterwa umuti ndetse bikanashyirwaho ifumbire.

Itsinda ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bari ahantu mu murima aho bari mu gikorwa cyo guhinga nanone kandi hari ibihingwa bitandukanye bikikije aho hantu birimo nk'insina zera ibitoki byaba ibikorwamo umutobe cyangwa se n'ibyera imineke.

Abagabo babiri aho umwe yambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu undi iy'umukara bafite igare bakaba barihetseho inkwi, umwe arimo gusunika mu gihe undi ayoboye, kuri iryo gare nanone kandi hakaba hari isuka yifashishwa mu buhinzi.

Ahantu habugenewe mu rwuri, rufite ibyatsi bitoshye, harimo inka zifite amabara atandukanye arimo nk'umukara ndetse n'umweru. Hakaba kandi harimo n'abashinzwe kuzitaho kugira ngo zitange umusaruro ushimishije.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'umuhondo weruye ndetse n'umukara akaba ari kwita ku bigori bye, ibi bigori iyo byeze bikaba bijyanwa mu nganda bigatunganywamo ifu, iyo fu ikifashishwa mu gukora akawunga ndetse no kunywamo igikoma.

Ibikomoka ku buhinzi birimo imboga n'imbuto urugero twavugamo urusenda, amacunga, amapapayi, inyanya ndetse n'ibindi. Ibi bikaba ari bimwe mu bituma umubiri ugira ubushobozi bwo guhangana n'indwara zitandukanye.

Ibikomoka ku buhinzi birimo nk'ibigori ndetse n'ibirayi ndetse n'imbuto zirimo nk'inyanya n'izindi zitandukanye, ni bimwe mu bifasha umubiri kugira ngo ugire ubuzima bwiza, nanone kandi ibi byifashishwa mu kurwanya indwara ndetse no kugira ngo abana bato bagire imikurire myiza.

Umurima mugari udatunganijwe ndetse udahinze, muri uyu murima kandi harimo ibihingwa birimo nk'imyumbati, iyo myumbati ikaba ikorwamo ibintu bitandukanye birimo nk'ifu y'ubugari ndetse ikaba inaribwa mbere yo gutunganywa.

Ahantu heza cyane, habereye ubuhinzi, hahinzemo ibihingwa by'ibigori. Ibi bigori bikaba bikiri bito, bikaba byitabwaho iyo bikuze maze bigashyirwaho ifumbire, bikanashyirwaho umuti maze bigatanga umusaruro.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa biba bigomba kwitabwaho kugira ngo bitange umusaruro, impamvu ni uko bikunda kwibasirwa cyane nanone kandi ibigori biba bigomba guhingwa ku murongo mu rwego rwo kugira ngo hubahirizwe gahunda zashyizweho na Leta.

Ahantu heza cyane mu gishanga gihingwamo umuceri, hakaba hitegeye umusozi ndetse n'ibiti bikuru, na none kandi harimo abantu bari guhinga bifashishije amasuka ndetse n'imashini ikora ubuhinzi.

murima munini urimo igihingwa cy'isina, izi sina zikaba zera ibitoki ndetse zikaba zinakorwamo urwagwa. Uyu murima kandi ukaba witabwaho ugasasirwa kugira ngo utange umusaruro.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa biba bigomba kwitabwaho kugira ngo bitange umusaruro ushimishije, impamvu kandi ni uko ibigori bikunda kwibasirwa cyane n'udukoko turimo nka kongwa tubibuza gutanga umusaruro.

Uruyuzi ni kimwe mu bihingwa byera birandaranda. Uru ruyuzi kandi rukaba rwera ibyitwa ibihaza, bikunzwe cyane ku masoko cyane cyane ku bantu bakunda indyo gakondo. Ibi kandi bikaba bikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye.

Umusozi muremure ndetse witegeye indi misozi yombi ikaba yuzuyeho ibiti byo mu bwoko butandukanye, ibi biti bikaba bikurura ba mukerarugendo ndetse bikaba ari n'ubwugamo bw'inyamaswa zitandukanye.

Ahantu heza cyane hari ibiti ndetse n'ibindi bimera bitandukanye hakaba hari umugore ndetse n'umwana aba bantu bakaba bajya gusura ahantu hari ibiti mu rwego rwo kugira ngo batekereze neza ndetse baryoherwe n'ubuzima.

Ibiti ibyo biti akenshi biba ari inganzamarumbo bimwe muri byo byarimejeje ibindi byaratewe ibyo biti bikaba bikorwamo imbaho maze nazo zigakorwarwamo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo usibye ako kamaro kandi ibiti bikurura na ba mukerarugendo ndetse bikanatanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Ishyamba rigizwe n'ibiti birebire ndetse n'ibigufi rikaba ryifashishwa mu gukoramo imbaho, izo mbaho na zo zikaba zikorwamo ibintu bitandukanye birimo nk'intebe, ameza ndetse n'ibindi. Ikindi kandi ayo mashyamba akurura na ba mukerarugendo.

Ishyamba rigari ry'inzitane rigizwe n'ibihuru ndetse n'ibiti birebire, ibyo biti iyo bikuzwe bikaba bikorwamo imbaho na zo zifashishwa mu gukora ibikoresho bitandukanye ariko kandi nanone iryo shyamba rikurura ba mukerarugendo maze na bo bakishyura amafaranga.

Ibiti byaba ibyo mu mashyamba kimeza cyangwa se mu mashyamba y'amateraniro, ni bimwe mu bidukikije bigomba kwitabwaho, usibye kuba bitanga imbaho zikorwamo ibintu bitandukanye, ibiti binatanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro yabugenewe ifite ibara ry'umweru ndetse n'ingofero, ari mu murima uhinzemo urusenda, uru rusenda rukaba rujyanwa ku masoko maze rukabyarira amafaranga abaruhinga.

Ubutunguru ni kimwe mu bihingwa biba bigomba kwitabwaho kugira ngo bigire umusaruro. Impamvu ni uko bikunda kwibasirwa cyane n'udukoko, utu dukoko tukaba dutuma ibitunguru bitagira umusaruro nk'uko bikwiye, bityo tukaba tuba tugomba guterwa umuti.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro irimo ibara ry'iroza, afite igikoresho cyifashishwa mu buhinzi, kizwi nk'isuka. Uyu mubyeyi akaba ari kubabagara ibihingwa by'iwe yifashishije iyo suka.

Ahantu ahabugenewe harimo abagore bambaye imyambaro isa y'akazi ifite amabara y'umweru, aba bakaba bari kujonjora voka zifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye birimo nk'amasabune ndetse n'amavuta.

Ibikomoka ku buhinzi birimo n'imbuto ndetse n'imboga, urugero twavugamo ibitunguru, inyanya ndetse n'imineke, bikaba bikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye zifasha umubiri kugira ngo urwanye indwara.

Umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru ari ahantu mu nzu yabugenewe. Aho ari kwita ku ngemwe, izo ngemwe zikaba zishyirwaho maze zamara gukura zikimurirwa mu mirima kugira ngo ziyakurire.

Ibigori ndetse n'inyanya ni bimwe mu bikomoka ku buhinzi, iyo bimaze kwera bikaba bijyanwa ku masoko maze bikagurishwa ibi bikaba bifasha ababihinga mu kubona amafaranga maze na bo bakiteza imbere.

Umurima w'ibigori byiza bitoshye bifite ibara ry'icyatsi kibisi bihinze mu buryo bwa kijyambere ku murongo, hari kandi n'umupira unyuramo amazi ukaba wifashishwa mu kuvomerera ibyo bigori.

Kimwe mu bisubizo byo kurwanya ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ku bihingwa, harimo kubyuhira, ibi bikaba bikorwa hifashishijwe udukoresho dutandukanye turimo utw'ikoranabuhanga, aho bidasaba ko hagira umuntu udaha amazi ngo ashyire ku bihingwa, ahubwo utwo dukoresho ubwatwo tubyikorera.

Mu rwego rwo kugira ngo umusaruro ukomoka ku buhinzi wiyongere hafashwe ingamba zitandukanye zirimo nko kuhira ibiribwa, ibi twavuga ko bikorwa hifashishijwe ibintu birimo nk'amatiyo ndetse n'ibindi bisakaza amazi.

Mu rwego rwo guhangana n'ihindagurika ry'ikirere rituma habaho izuba rikabije bityo bikabangamira ubuhinzi, Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zirimo kuhira imyaka hifashishijwe ikoranabuhanga.

Umugabo wambaye umwambaro ufite ibara ry'icyatsi kibisi cyeruye ari ahantu mu gishanga iruhande rw'amazi magari, akaba afite igikoresho kigezweho cyifashishwa mu guhindura imirasire y'izuba mo amashanyarazi yifashishwa mu ngo.

Ibitunguru ni bimwe mu bihingwa biteza imbere ababihinga ariko nanone biba bigomba kwitabwaho, kuko bikunda guhura n'indwara zitandukanye bityo ni byiza ko ubihinga agomba guhora abyitaho yifashisha imiti yica udukoko.

Umugabo w'umuhinzi ukuze wambaye imyambaro ifite amabare y'icyatsi kibisi ndetse n'ubururu bwijimye ari mu murima w'ibigori, akaba afite umupira muremure aho ari kuvomera ibyo bigori, ibi bikaba bifasha kugira ngo ibyo bigori bigire umusaruro mwiza.

Mu rwego rwo kugira ngo Leta y'u Rwanda ihangane n'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ikirere cyane cyane mu buhinzi, hashyizweho ikoranabuhanga ryifashishwa mu rwego rwo kugira ngo havomerwe cyangwa se huhirwe ibihingwa. Ibi bikaba bifasha kugira ngo umusaruro w'ubuhinzi wiyongere.

Kuhira ibihingwa ni bumwe mu buryo bwashyizweho n'abahanga kugira ngo hiyongere umusaruro ukomoka ku bihingwa, ibi kandi bikaba bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga aho hashyirwa utwuma dushinzwe kuzamura amazi mu bihingwa.

Uruhererekane rw'imisozi yitaruye ndetse ihinzeho ibihingwa bitandukanye harimo n'amashyamba, ibi bikaba bikurura imvura ndetse bikanatanga umwuka mwiza wo guhumeka tutibagiwe ko binakurura ba mukerarugendo.

Uruhererekane rw'imisozi miremire ruhinzeho ibihingwa bitandukanye birimo insina zera ibitoki, iyo misozi ikaba ikoreshwa mu buhinzi ndetse igakurura n'abakerarugendo bakishyura amadevize ku Gihugu.

Ahantu hitaruye, hari imisozi migufi ndetse n'ikiyaga, icyo kiyaga kikaba cyifashishwa mu bijyanye n'uburobyi ndetse no kuhira imyaka mu gihe cy'izuba, ibyo bikaba bituma umusaruro ukomoka ku buhinzi wiyongera.

Inzu nyinshi zituwemo n'abantu ziri ku musozi muremure, ibi bikaba bishobora gushyira ubuzima bw'abatuye muri izo nzu mu kaga, impamvu ni uko imvura nyinshi ishobora kugwa maze ikamanura amazi menshi afite imbaraga akaba yatwara izo nzu.

Imisozi miremire ndetse n'imigufi iriho ibihingwa bitandukanye birimo n'ibiti, nanone kandi hari ikiyaga kinini kifashishwa mu kuhira imyaka ndetse kikaba gitanga n'umusaruro w'amafi.

Imisozi myiza cyane miremire ibereye ijisho, iteyeho ibihingwa bitandukanye. Iyo misozi kandi ikaba iriho imirwanyasuri, yifashishwa mu gutangira amazi y'imvura kugira ngo atagira ibintu yangiza. Kuri iyo misozi kandi hariho inzu nyinshi zagenewe guturwamo. Hari kandi n'ikiyaga kigari.

Inka nziza ifite ibara ry'ikigina, ikaba iri mu kiraro cyubatswe mu buryo bugezweho gifite imiryango ikoze mu byuma ndetse ifite ibara ritukura. Iyi nka ikaba yitabwaho maze igatanga umusaruro, urimo amata ndetse n'inyama.

Amatungo magufi azwi ku izina ry'ihene, ari ahantu mu gisambu aho arimo kuririsha, aya matungo akaba ateza imbere abayatunze cyane cyane nk'abahinzi baba bakeneye ibishingwe byo gufumbiza mu myaka yabo.

Ingurube ni amwe mu matungo yo mu rugo atanga umusaruro, urugero twavugamo nko kubagurishwa maze akavamo inyama ndetse kandi akanatanga ibishingwe byifashishwa n'ifumbire mu buhinzi.

Amatungo magufi azwi cyane ku izina ry'ihene ni amwe mu matungo atanga umusaruro ushimishije, aha twavuga nk'inyama ndetse n'ibishingwe byifashishwa mu buhinzi maze bigatuma iterambere riza.

Mu kiraro cyubakishije ibiti harimo inka ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, harimo kandi n'inyana yayo bisa, iyi nka ikaba itanga umusaruro urimo amata ndetse n'ibishingwe byifashishwa mu buhinzi.

Utuzu twororerwamo amatungo atandukanye magufi, harimo nk'inkwavu. Utwo tuzu tukaba twubatswe mu biti ndetse no mu rudandi rukoze mu byuma. Ibi bikaba bifasha kugira ngo umusaruro ukomoka kuri ayo matungo wiyongere.

Ahantu habugenewe, hakoze neza ndetse hasakaye neza, hari ibiraro bigezweho byororewemo inkoko. Izo nkoko zikaba zitabwaho neza maze na zo zigatanga umusaruro ushimishije, urimo amagi ndetse n'inyama.

Mu cyumba cyabugenewe cyiza gifite amabara atandukanye, harimo umugabo wambaye imyambaro yabugenewe ifite amabara y'umweru, muri icyo cyumba kandi hakaba huzuyemo imishwi y'inkoko ikiri mitoya cyane, ubu bukaba ari ubworozi uyu mugabo yikoreye ku giti cye, bukaba bumuteza imbere.

Ahantu habugenewe hazitiye neza harimo inka nyinshi zizwi ku izina ry'inyambo zifite amahembe maremare nanone kandi hari abantu bambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bashinzwe kwita ku buzima bw'izo nka.

Ahantu mu kiraro kigezweho gisakaje amabati ndetse gikoze mu byuma harimo inka za kijyambere, izo nka zikaba zitabwaho maze zigatanga umusaruro urimo amata ndetse n'inyama, ibi bikaba biteza imbere abazoroye.

Ibihingwa byinshi kugira ngo biboneke mu murima ni uko haba habanje guterwa imbuto izo mbuto zikaba zifatwa maze zigashyirwa mu butaka bakarenzaho igitaka maze imvura yabinyagira ndetse n'ifumbire yaba irimo izo mbuto zigakura zikavamo ibihingwa.

Umusaruro w'ibigori iyo umaze kwera ndetse no kuma neza urafatwa ukajyanwa mu nganda maze ugakorwamo ibintu byinshi bitandukanye, ibyo bikaba bifasha mu kurwanya imirire mibi ndetse no kurwanya inzara mu baturage.

Ishyo rinini ry'inka zizwi ku izina ry'inyambo, izo nka zikaba zifite amahembe maremare ndetse yigoronzoye, zikaba zashyizwe hamwe aho ndetse hari n'abantu bafite inkoni bashinzwe kwita kuri izo nka kugira ngo zigire ubuzima bwiza.

Ahantu mu gisambu gifite ubwatsi butoshye ndetse n'ibiti harimo inka nyinshi, izo nka zikaba zizwi ku izina ry'inyambo zikaba zifite amahembe maremare, izi nka kandi zikurura ba mukerarugendo ndetse zikanatanga umusaruro urimo nk'amata.

Abantu barimo umugabo wambaye imyambaro y'akazi ndetse n'akuma k'ikoranabuhanga kifashishwa mu gupima indwara bari ahantu mu cyumba cyabugenewe, aba bakaba bari kuvura inyamaswa ifite ikibazo cy'uburwayi.

Mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ubushakashatsi, harimo abantu babiri barimo umugabo ndetse n'umugore bambaye imyambaro y'akazi. Aba bombi bakaba bambaye udupfukamunwa ndetse umwe muri bo akaba afite agakoresho k'ikoranabuhanga, kifashishwa mu gupima indwara zitandukanye.

Ahantu habugenewe mu kiraro gikozwe mu byuma harimo inka, ikaba iri kwitabwaho n'abagabo babiri bambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu. Aba bagabo bakaba bari kuvura iyi nka.

Mu cyumba cyabugenewe gikusanyirizwamo umusaruro ukomoka ku magi harimo umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi kibisi akaba ari kwita kuri ayo magi nanone kandi harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bimufasha muri ako kazi ke.

Umugabo wambaye imyambaro yabugenewe ifite amabara y'ubururu afite igikoresho gikoze mu cyuma, icyo gikoresho akaba akifashisha mu kuvura amatungo, hari kandi ahantu mu bwatsi butoshye bagaburira amatungo.

Inka zizwi mu muco nyarwanda nk'Inyambo zifite amahembe maremare, izi nka zikaba zitanga umukamo ushimishije iyo zitaweho nanone kandi hari abantu bambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'umweru bashinzwe kwita kuri izo nka.

Ahantu habugenewe hashyizwe inyamaswa ndetse hakaba hakomye, aho hantu harimo imodoka itwaye abakerarugendo ndetse hakaba harimo n'inyamaswa izwi nk'inkura. Ibi bikaba bifasha kugira ngo izo nyamaswa zitagira icyo zangiza mu baturage ndetse binakurure abakerarugendo.

Inyamaswa ifite uruhu rumeze nk'urw'ingwe ikaba yibera mu byanya bikomye, iyo nyamaswa ni indyanyama bityo si byiza ko umuntu yayegera kuko ishobora kuba yamugirira nabi, ikaba yibera mu mashyamba aho ikurura ba mukerarugendo.

Mu mugezi uri mu cyanya gikomye k'inyamaswa harimo utunyamaswa dufite amahembe, utwo tunyamaswa tukaba twaje kunywa amazi ndetse kandi tukaba dukurura ba mukerarugendo na bo bakishyura amafaranga maze bigafasha mu iterambere ry'Igihugu.

Inyamaswa zizwi cyane ku izina ry'impyisi, izi nyamaswa kubera ukuntu zigira amahane ndetse zikaba ari n'indya nyama zikaba zinashotorana zishyirwa ahantu mu byanya bikomye aho nta muntu ushobora kuba yahagera.

Inyamaswa yo mu ishyamba izwi nk'ingwe, iyi nyamaswa ikaba iba mu byanya bikomye maze igakurura ba mukerarugendo na bo bakishyura amafaranga bigateza imbere ubukungu bw'Igihugu, iyi nyamaswa kandi ikaba irya inyama bityo bikaba atari byiza ko abantu bayegera kuko ishobora kuba yabarya.

Imwe mu nyamaswa z'inkazi zo ku butaka ikaba iri mu giti, iyi nyamaswa ikaba izwi ku izina ry'intare, ikaba izwiho kandi kugira umuvuduko mwinshi bityo bikaba atari byiza ko abantu bayegera kuko baba bari kwishyira mu bibazo by'uko ishobora kuba yabarya.

Inyamaswa iba mu ishyamba y'indyanyama yitwa igisamagwe, iyi nyamaswa ikaba iba ahantu hakomye mu rwego rwo kugira ngo itaba yagira ibyo yangiriza abantu birimo nk'amatungo, cyangwa se ikaba yanabarya, iyi nyamaswa ikaba ikurura ba mukerarugendo.